Abantu bicaye ari benshi bafite amakayi imbere yabo, basa n'aho bari mu nama cyangwa amahugurwa.

Iyi nzu yubakishije amatafari ahiye, isakazwe n'amabati y'umweru, imbere yayo hariho pasiparamu.

Inyubako nziza cyane. Ihagazemo umuntu uri kugenda ku makaro. Iyi nzu ifitemo n'amabara y'iroza.

Inzu nziza ifite irangi ry'umukara , hejuru risa n'icyatsi, hariho n'irindi bara ry'umutuku , imbere yayo hariho igiti cyiza kimeze neza kiri imbere yayo.

Abanyeshuri bahagaze mu isarumara basa n'aho bari kwiga ububaji. Bahagaze bose bafite ibikoresho byinshi byo mu bubaji kugira ngo buzabateze imbere.

Abantu bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, bizabungura ubumenyi bukomeye.

Inzu yishuri yigirwamo mudasobwa, ituma abanyeshuri biyungura ubumenyi.

Abanyeshuri bari kwiga ikoranabuhanga, bafite ibyuma bya mudasobwa bari kwigiramo ikoranabuhanga.

Kwiga ni byiza cyane, abantu benshi bakunda kujyana abana babo mu ishuri , abakobwa n'abahungu bambaye iniforume z'icyatsi n'iz'ubururu n'amashati y'imyeru, bicaye ku ntebe bose bari kwiga.

Abanyeshuri bambaye iniforume z'ubururu, amashati y'umweru bafashe impapuro zibarambitse imbere yabo basa naho bateze amatwi ibyo bari kubabwira.

Abantu babiri bahagaze iruhande yimodoka ikinguye ikirahuri, iyi modoka isa naho ihagaze.

Umugabo wambaye igisurubete cy'ubururu n'ingofero y'umutuku, afashe iranda ari kubaza imbaho.

Abanyeshuri bari kwiga bambaye ibisurubeti by'ubururu n'amashati mu nda agiye kuba ubururu budahiye, bari kwigira mu bitabo bari gusoma amagambo.

Inzu irimo ibyarahani byinshi, bisa n'aho ari byo bigishirizamo abanyeshuri, umwuga w'ubudozi.

Intebe nyinshi zitondekanye zifite amabara y'umuhondo , ubururu , umweru, n'icyatsi zisa n'aho ziteretse mu cyumba cy'amashuri.

Abanyeshuri benshi basigaye bakunda kwiga imyuga. Abakobwa n'abahungu bari kwiga kudoda bafite imashini nyinshi, bari kwigiraho kudoda.

Abanyeshuri bambaye ibisarubeti by’ubururu bafashe amaranda y’ibikoresho byinshi byo kubaza, bari kubaza kugira ngo ibyo bakuramo bizabateze imbere.

Abanyeshuri b'ingeri nyinshi biga gukora inzara. Bamwe bambaye amakabutura, abandi bambaye amashati y'ubururu, hari n'uwambaye ishati y'umuhondo.

Abanyeshuri benshi bari kwiga, bari bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga, bizabageza ku iterambere rirambye, mu gihe kiri imbere.

Abagabo bahagaze bambaye ibisarubete by'umuhondo, byanditseho mu mugongo, babiri bambaye ibikasike by'umuhondo, basa naho ari abafundi.

Abanyeshuri bahagaze bafashe ibikoresho by'koranabuhanga cyangwa se nk'ibikoresho byo gukoresha mu bukorikori, bambaye amaturubete y'ubururu.

Abanyeshuri bicaye bari kwiga abahungu harimo n'umukobwa wicaye ku ruhande. Bambaye imyenda itandukanye y'imyeru n'ubururu.

Abanyeshuri benshi bakunze kwiga ibijyanye n'ubukorikori; nk'ububaji cyane cyane ibijyanye n'ubudozi, kuko ari byo bizabateza imbere mu gihe kizaza.

Abantu benshi harimo umugabo wambaye ikigofero cy'umweru n'agapira k'icyatsi, hariho n'abantu bameze nk'abazungu bafite amafoto bari gukamera.

Abanyeshuri bari kwiga amasomo ajyanye n'ikoranabuhanga, aho bari gukoresha ibyuma bya mudasobwa bikomeye.

Abantu bambaye ingofero z'umweru n'amataburiya y'umweru basa n'aho ari abatetsi. Aba bantu bameze nk'aho bari gutahura ibiryo.

Icyapa kiri kugaragaza ishuri ryitwa Ekorehenerimatisi, gifite amabara atandukanye, ubururu, icyatsi n'umutuku.

Abanyeshuri biga gukanika imodoka, bambaye ibisarubete by'ubururu, abanyeshuri bamwe bari gukanika abandi bari kubareba.

Abana bishimye cyane, basa naho ari abanyeshuri bo muri pirimeri cyangwa se no muri garidiyene, aba bana barishimye cyane.

Abana b'abahungu bafite icyapa, bambaye amashati y'ubururu. Icyo cyapa na cyo gifite ibara risa n'imyenda bambaye, na cyo ni ubururu. Bagifashe bose, gihagaze imbere yabo.

Abanyeshuri biga ubusuderi bagira iterambere , kuko ubusuderi bugira amafaranga menshi, abize ubusuderi bagira iterambere rirambye.

Icyumba cy'ishuri , kirimo ibikoresho bitandukanye ,birimo amakayi n'ibitabo byinshi, bimwe bifite ibara ry'umuhondo, ibindi bifite ibara ry'ubururu.

Umuntu wicaye asa n'aho ari umuganga, yambaye itaburiya y'umweru n'ingofero y'umweru, afite icyuma cya mikorosikopi, asa n,aho ari gupima indwara mu cyuma.

Abasore babiri basa n'aho ari abanyeshuri, bahagaze bari kureba ibikoresho by'ikoranabuhanga, basa n'aho bari kureba uko babikoresha.

Abantu bari gucuranga imiduri, n' abandi bari kuvuza ingoma, basa naho bari mu kirori . Hariho n'abari kubafotora bahagaze imbere yabo harimo n'umugore wambaye ibitenge by'umuhondo birimo amabara.

Abanyeshuri bari kwiga ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga niryo risigaye rigezweho kuko ubumenyi butari mu ikoranabuhanga ntacyo bukimaze.